Abantu bicaye mu nama abenshi muri bo bari kureba imbere yabo hari bamwe bafite za mudasobwa, bazikikiye ku bibero abandi bagabo bagaragara babiri bari kuri za telefoni.

Ni abari mu nama ariko barahagaze bari gukoma mu mashyi, umwe muri bo ari kumwenyura wambaye umupira utukura, hari umudamu wicaye ufite ibyo arangariyemo.

Ni umudamu uri gutanga imbwirwaruhame, afite insakazamajwi mu ntoki, yambaye agakote gato k'umukara ndetse n'agakanzu karimo utubara tw'umutuku n'umweru.

Abantu benshi bari mu nama, intebe bicayeho zirasa umutuku, umwe muri bo arahagurutse ari gutanga igitekerezo abandi bari kumureba ndetse banamutega amatwi ngo bumve igitekerezo cye.

Inzu yicayemo abantu benshi bigaragara ko bari munama, batatu bimbere bambaye amakoti meza cyane ndetse imbere yabo hateretse amazi yo kunkwa, umwe ubanza afite ikaramu muntoki nigitabo kiri imbere ye kumeza.

Mu mbuga iri iruhande rw'umuhanda, hateye intebe biragaragara ko habereye inteko, umugabo umwe arahagaze yambaye isaha ndetse n'umupira w'umukara, ingofero n'amarineti.

Iyi ni inama rusange y'abaturage, bateze amatwi ibyo umuyobozi ubari imbere ari kubabwira. Ni inama yitabiriwe n'abaturage benshi batandukanye.

Imbaga y'abantu yicaye ahantu hamwe, abari imbere ameza ateretseho terefone zabo, utucupa tw'amazi dufite imifuniko tw'ubururu, hari abadamu babiri barikuganira.

Abantu bicaye mu nama uko bigaragara buri wese imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'amazi ari m'uducupa tugezweho tw'ibirahure, abari kugaragara n'abadamu babiri bicaye imbere bambaye amarineti.

Ni urubyiruko ruhagaze ku murongo, ubona ko bose bari mu rungano. Bamwe bafite icyapa mu ntoki, kiriho ubukangurambaga bwo kurwanya sida. Imbere yabo hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara, irimo utubara duto tw'umuhondo.

Bicaye mu nama bombi bambaye amarinete ndetse bari kurebe imbere yabo. Umwe afite mudasobwa imbere ye ndetse n'agacupa k'amazi yitangiriye itama.

Ni imbaga y'abantu bicaye bafite icyo baje kureba, umwe muri bo yambaye ikoti riri mu mabara agize ibendera ry'igihugu, abandi bose bambaye bitandukanye.

Uyu ni umugabo bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, aho yicaye mu ntebe ndetse yambaye ikoti n'itisi by'umukara, yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hateretse igitabo.

Ni abantu bicaye bari mu nama, inyuma yaho hari igishushanyo mbonera cy'amazu meza. Mu bicaye mu nama, hari uteretse igitabo ku meza ndetse imbere hari agacupa k'amazi.

Ni mu nzu iberamo inama irimo abantu benshi batandukanye batumbereye imbere yabo bigaragara ko bakurikiye ibiri kuvugirwa muri iyi nama, abari k'umurongo w'imbere umwe muri bo afite ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye mu nama, ku ntebe z'imikara ndetse n'ameza atukura. Imbere yabo hariho amazi ari mu ducupa yo kunywa, babiri mu bagaragara bambaye amadarobindi.

Ni abantu bicaye mu nama bigaragara ko uri kubigisha ari ku ruhande kuko ariho bari kureba, igikapu kiri ku meza ndetse na mudasobwa iri imbere y'umuzungu harimo umudamu wambaye akenda k'umukara.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Icyumba cy'inama. Kirimo insakazashusho zigera muri enye, zireba mu byerekezo byose bikigize. Abacyicayemo buri wese imbere ye, hateretse icupa ry'amazi yo kunywa abenshi bafite amakaramu.

Ni inama ihuje abantu b'ingeri zitandukanye, yaba abazungu ndetse n'abirabura. Umudamu umwe wambaye marinete, imbere ye ku meza hateretse ikirahure ndetse n'icupa ry'amazi. Iruhande rwe hari umuzungukazi.

Aha ni munzu iri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu batandukanye bigaragara ko bafite impapuro ndetse baranandika bateze amatwi ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Mu nzu iberamo inama, irimo abantu batandukanye, umwe muri bo ni umuzungukazi, uri kwandika muri mudasobwa. Hari uhagaze imbere, uri kwerekana ibyo bari kwigaho.

Abasore b'urubyiruko bitabiriye ihuriro bose bari kureba imbere bateze amatwi kandi bakurikiye ibiri kuvugirwa muri iri huriro, umwe imbere ye hateretse agakombe karimo ikawa.

Uyu ni umunara wifashishwa mu gutanga itumanaho, ihunzanzira, iruhande rwawo hateye igiti, ndetse iruhande rwawo naho hari inzu yubakishijwe amatafari ya mpunyu.

Ibi ni ibiro bitanga serivisi hicaye umugabo muri ibyo biro ndetse hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'ubururu bigaragara ko aje kwaka serivisi.

Iyi ni inzu itangirwamo serivise zitandukanye turi kubona abagabo batatu, bahagaze n'undi mugabo umwe wicaye ndetse n'undi mukobwa cyangwa umudamu umwe wicaye kuri mudasobwa asa nkaho hari ibyo ari kubereka.

Ni urupangu rwubakishije amatafari ya ruriba mu imbere harimo inzu y'icyatsi, ikaba izengurutswe n'ibyuma by'umweru iyi nzu igeretse inshuro enye ikaba iriho ibyuma hejuru bizana itumanaho.

Icyapa kiriho umugabo mu maso ugaragara nk'ukuze, yambaye amataratara cyangwa se amarinete mumaso, ikanzu itukura iriho agatambaro kayidodeyeho k'umukara, ishati y'ubururu na karavati.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Iyi ni mudasobwa hejuru yayo handitseho amagambo ndetse arerekana ko ari ikigo cy'irembo kizwiho mu gutanga serivisi zitandukanye kizigeza ku baturage.

Ubusitani bunini buteyemo umunara bukorotiriwe n'utwuma tuwuzengurutswe nk'uko bisanzwe wifashishwa mu buryo bw'itumanaho cyangwa se ihuzanzira mu gusakaza amakuru.

Iruhande rw'umuhanda hari inyubako y'ubucuruzi imbere kumabaraza yayo igiye ifashwe n'inyingi, hejuru hariho amatafari azwi nka munyo hari gutambuka umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Ni abantu bicaye ku murongo ariko batagaragara mu masura, kuko bareba hirya ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa. Umwe afite iherena ku gutwi ndetse bose bafite telefone mu biganza.

Ni umunara muremure wifashishwa mu kujyana imiyoboro ahatandukanye. Hari senyenge zitambitseho ndetse n'utwuma turi munsi yaho. Hari kandi icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku.

Umukobwa wicaye mu biro ari kumwenyura, iruhande rwe hateretse ikayi iriho amarineti, ari kuri mudasobwa ari kwandika.

Icyapa cyamamaza kiriho mudasobwa ndetse na terefone imbere yacyo ckiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru wiganjemo handitsemo amagambo atagaragara neza.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Hano haragaragara umubyeyi w'umugore imbere ye hari utujerekani turi mu ngano zitandukanye turimo amata inyuma ye hari undi mugore, inyuma ye nanone hari ahantu hari igikuta cyubakishije ibikoresho bya kinyarwanda.

Umuhanda w'umukara uri kuyogamo n'ibinyabiziga, urimo imirongo minini y'umweru kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hirya gato hari ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari ibidukikije birimo ibiti.

Mu cyanya kibarizwamo inyamaswa. Hari igiti kirimo imwe muri zo, icyicayeho, umurizo wayo uri kurereta. Hirya hagiye hari ibyatsi zikunze kurisha.

Aha naho batangira serivisi zitandukanye, serivisi zikunze gutangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hahagaze umugabo rero utegereje kwakirwa ndetse mo imbere harimo abashinzwe kwakira ababagana.

Ni abantu bari iruhande rw'umuhanda ubabaze ni umwe ,babiri, batatu, bane, batanu, batandatu benshi muri bo nk'uko bigaragara bahugiye mu ma terefone bigaragara ko aribyo bari kurebamo.

Iki ni ikirango kerekana itariki ntarengwa ya mirongo itatu nimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri namakumyabiri na kane.

Ni umunara ugize n'amara y'icyatsi. Ukikijwe n'amazu ari hakurya yaho. Nkuko bisanzwe wifashisha mu ihuza nzira cyangwa se mu ikoranabuhanga mu kurisakaza.

Inyubako z'ubucuruzi ziri iruhande rw'umuhanda uri gucamo imodoka ebyiri zishoreranye, hagati muri wo hateyemo umukindo, naho iruhande hari icyapa kigaragaza ibikorerwa hafi aho.

Icyapa cyamamaza cyanditseho ngo menyekanisha umusoro ku mutungo wawe utimukanwa n'umusoro ku nyungu z'ubukode uyu munsi. Kiriho inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'amategura.

Inyandiko iherekejwe n'ifoto y'inzu y'urwego rw'igihugu rw' imiyoborere ariko byanditse mu magambo ahinnye ariyo ra ga na ba.

Ni igipangu gifite urugi rw'umukara, imbere yacyo hateyeho ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, ajyana umuriro hirya no hino, imbere yaho kandi hari ubusitani butoya.

Ni ipoto ririho itara rinyuranyuranyijemo insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino, rikaba riri imbere y'igiti cy'inganzamarumbo kiri inyuma yaryo kigaragaza ikirere kitamuruye.

Igice gito cy'umunara kiri kugaragara, imbere yacyo hari inzu ifite amabati atukura. Naho aho hafi hateye insina zivaho urutoki bigaragara ko ari mu gice cy'icyaro.

Ipoto rishinze hagati mu muganda rigemura amashanyarazi hirya no hino riragaragaza mu kirere gikeye mu mabara yacyo y'umweru ndetse n'ubururu.

Aha hateye umunara wifashishwa mu kohereza insinga zitandukanye, zijyana amashanyarazi, ndetse n'indi miyoboro y'itumanaho n'ikoranabuhanga. Hari iruhande rwawo hari igiti.

Umunara muremure uriho insinga zijyana amashanyarazi, ndetse n'ubundi buryo bw'itumanaho mu ngo z'abaturage. Hakurya yawo hakikijwe amazu menshi. Bigaragara ko ari mu miturire.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Ihuriro ry'umunara w'amashanyarazi, ndetse n'ibindi bikorwa by'itumanaho cyangwa se ikoranabuhanga. Hari gucamo insinga nyinshi cyane zijyana ibyo byose.

Izi ni insinga z'amashanyarazi ndetse hari n'ipoto ryifashishwa kugira ngo izo nsinga z'amashanyarazi zibashe kugeza umuriro ku baturage mu buryo buboroheye.

Ipoto rigemura amashanyarazi rishinze iruhande rw'urupangu, rw'amatafari ahiye. Kuri ryo hariho insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho n'itara rifasha umuhanda kumurika nijoro, inyuma yaryo hateye ibiti ndetse n'indabyo zitandukanye.

Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze umuturage akenera kugirango abashe kuba yakora ibikorwa bimuteza imbere. Niyo mpamvu hari ipoto ririho insinga ziri kuyagemura mu bice bitandukanye.

Inzu ziri mu cyanya cy'ubucuruzi hagati muri zo hagiye hashinze amapoto azifasha kubona amashanyarazi. Utwuma tw'umutuku tuzizengurutse hirya hari umutaka utagaragara neza.

Iyi niya pikipiki iri m'umuhanda ijyana ubutumwa ahantu hatandukanye, iruhande rwawo hateye amapoto ariho amatara amurikira umuhanda, hariho kandi ibiti biri inyuma yayo.

Ni umunara ushinze mu busitani ubusanzwe wifashishwa mu gutanga imiyoboro, mu bijyanye n'itumanaho inyuma yaho hari ibiti bitoshye by'icyatsi kibisi.

Ipoto rishinze iruhande rw'umuhanda, hejuru hariho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi ahandi munsi, hari umugabo uri gutambuka wambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Ni umuhanda uri ahantu hatuje, uri gucamo ipikipiki itwawe n'umumotari ariko nta mugenzi uriho. Iruhande rwayo hari igipangu cy'umukara ndetse gikikijwe n'ibiti.

Ni icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hari utubati dusize amabara y'umweru. Hejuru mu gisenge hari amatara abiri ateganye. Irangi ry'iyo nzu rirenda gusa umuhondo.

Amapoto abiri y'amashanyarazi, ariho insinga zitandukanye, zohereza amashanyarazi mubice binyuranye, ibingibi bituma byorohera abaturage mugucana.

Ni inzu itaruzura neza za yubakishijwe amatafari ahiye, hakurya yayo hari kugaragara umunara uriho amasinga ajya mu byerekezo bitandukanye ku mabati.

Kubitaro bitanga serivise kubarwayi baje babigana. Imbere yabyo haparitse imodoka y'imbangukiragutabara, hari abaturage bicaye muntebe bategereje guhabwa ubufasha.

Ni imbuga nini igaragara ko ishashemo utwagenewe kugendaho hejuru, harimo uturongo tw'umweru ndetse garagara amatara abiri nayo asa atyo, hiparitsemo imodoka zitandukanye.

N'inyubako y'igorofa nyinshi, ku muryango wayo hari icyapa cyanditseho ngo imodoka z'ibitaro, hari ikinyabiziga kiri kusohokamo kiriho umusaraba ugaragara agace gato.

Ni inzu nini itangirwamo serivisi hari intebe ziri ku murongo ziticawemo ariko hari n'izindi zicawemo, hari uhagaze nk'umudamu wambaye umwenda wera.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Ni inzu bigaragara ko ari itanga serivisi zitandukanye ku rukuta rumwe harimo amatafari ahiye ya munyu hagati muri yo hari gutambukamo umudamu ukenyeye igitenge.

Mu ibaraza ry'inzu nini, igaragara nk'aho itanga serivisi. Amabati afashwe n'ibyuma biri mu kayira karekare gatambika kajya imbere. Ku mpande zako hari ubwatsi ndetse n'indabyo.

Iyi ni inyubako igeretse rimwe imbere yayo hari ubusitani mo hagati harimo icyuma kiriho ibendera ry' u Rwanda ririmo amabara y' icyatsi, umuhondo n' ubururu.

Ni iguriro ricuruza ibikoresho by'imitako, hakaba harimo ibitandukanye mu mabara menshi, hahagaze umudamu wambaye iby'umukara, akaba agaragara nk'aho ari we ucuruza.

Ni mu ibaraza ry'inzu itangirwamo serivisi ifite inkingi zubakishijwe amabuye hari intebe ziri aho ziticayemo umuntu, icyapa kiri hirya kigaragaza ko ari mu cyerekezo kigana mu bwiherero.

Ni inzu zitanga serivisi ariko hagati muri zo harimo akayira gatwikirije amabati kugira ngo abakagendamo baticwa n'izuba cyangwa se bakaba banyagirwa, abantu batatu nibo bari kukagendamo.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Ni umuntu watawe muri yombi, agaragiwe n'abashinzwe umutekano benshi biganjemo abagore bafite inyenyeri ku rutugu, ku ruhande gato hari umwunganizi we mu mategeko.

uyu ni umucamanza w'u Rwanda, ari kureba imbere ye, yambaye ikanzu igizwe n'amabara atatu: harimo umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Umucamanza ndetse n'umwanditsi bicaye imbere y'inteko. Bafite mudasobwa ebyiri, bambaye udupfukamunwa, bari mu mwambaro wabo ubaranga w'umukara n'umweru.

Ni inyandiko igaragara ko yandikishije umukara ikaba iri ku rupapuro rw'umweru. Umutwe w'amagambo uri mu rurimi rw'amahanga. Igice k'ibumoso kiriho ijambo rivuga riti" gikorewe mu nzego za leta".

Umucamanza uri kureba imbere ye wambaye amalinete ndetse n'umwenda usanzwe ubaranga w'amabara y'umukara n'umutuku akaba afite n'amaherena.

Ni mu bihe byo hambere, muri gacaca. Inteko igizwe na bane bicaye, imbere yabo hahagaze umugabo ndetse hari abaturage hirya, bigaragara ko baje gukurikirana iby'iyi gacaca.

Ni umudamu uri kureba imbere ye, afite umusati ugana inyuma, amaherena kumatwi yombi. Yambaye umwenda utukura, ndetse n'undi w'umweru urimo imbere.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, umutwe w'amagambo yarwo uri mu rurimi rw'amahanga, uruhande rumwe rw'ibumoso ruriho amagambo atangira avuga ngo Abanyarwanda bose baba abagore cyangwa abagabo bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko bagomba gutora.

Imfungwa ebyiri zifite umurwayi uri ngobyi . Zambaye impuzankano isanzwe iziranga ndetse n' ingofero zigaragazako, ar' abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Mu nkiko gacaca inteko y'abaturage iricaye irikumva iby'uri kwisobanura, hari kandi abitwikiriye imitaka hirya no hino bateze amatwi.

Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kuramukanya n'umucamanza wambaye ingofero irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umukara.

Imodoka ziraparitse. Zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu. Kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. riraatwikiriye. Ibyo itwaye bifite umutekano. Kuko ntabwo bishobora kunyagirwa cyangwa se ngo izuba ribyice.

Urutonde rw'abashakishwa bakekwaho ibyaha byibasiwe inyokomuntu bane muri bo bamaze gutabwa muri yombi ubu barafunze abandi batandatu baracyashakishwa.

Mu cyumba kirimo abacamanza batandukanye, umwe muri bo arahagaze amanitse ikiganza cy'iburyo ikindi gifashe ku ibendera, undi yaricaye ateze amatwi ibyo uy'avuga.

Mu cyumba cy'iburanisha, hari kugaragaramo umucamanza, umushinjacyaha ndetse n'umwunganizi mu mategeko. Uregwa yambaye impuzankano iranga abafungwa.

Ni umugabo wambaye imyenda y'abacamanza, yambayemo imbere ishati ndetse na karuvati, akaba yambaye amarinete y'amaso. Ari kureba imbere ye.

Inyandiko yandikishijwe amabara y'umukara, ndetse iri ku rupapuro rw'umweru. Hejuru ku mutwe wayo hatangizwa amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, iruhande rw'ibumoso hatangizwa umubare wa miliyoni eshatu.

Ushinzwe umutekano ahagaze mu muhanda rwagati yambaye imyenda yiganjemo umukara n'ingofero n'utubara tw'umuhondo. Abagenzi bari kwambuka imodoka zirindiriye ko bahita.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Ni inzira y'abanyamaguru irigucamo umugabo wambaye umwenda w'umukara, iruhande rwayo hari igorofa ndende, imbere hari haparitse imodoka zitandukanye zirimo imwe y'amabara y'umweru n'umukara yanditseho polisi.

Umuhanda nyabagendwa uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye. Imbere muri byo hariho ipikipiki itwaye umugenzi. Ushinzwe umutekano wambaye umwenda w'umukara n'umuhondo, ari kugaragaza icyerekezo imodoka zikwiye gucamo.

Imbuga yubatswe mu buryo bugezweho ahagomba guhagarara ibinyabiziga, harimo imodoka y'umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari ubwatsi ndetse n'indabyo.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imodoka y'abashinzwe umutekano ihagaze iruhande rw'umuhanda. Iri mumabara y'umukara umweru, n'utundi duto tw'umuhondo tuyizengurutse. Yanditseho amagambo agaragaza akazi kayo.

Mu nkengero z'umuhanda hashinzemo amapoto ariho amatara yagenewe kuzana urumuri mu gihe bugorobye, kugira ngo abawukoresha babe babona, hari guturukamo umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, ishati ndetse n'umupira w'umweru iruhande rwawo hahagaze ushinzwe umutekano.

Inzu zubatswe mu buryo bugezweho, zose zigomba kuba zifite ibikoresho by'ubwirinzi bw'inkongi, ku buryo haramutse habayeho gushya, ibi byahita byifashishwa mu kuzimya umuriro vuba na bwangu.

Ni amarembo makuru akoreraho ibiro bikuru bya Polisi, mu karere ka Gasabo. Kuri yo hahagaze abapolisi babiri, umwe ku ruhande rumwe, undi ku rundi. Bose bafite imbunda mu ntoki.

Ni umugabo utumbereye imbere he wambaye amarinete, ikote n'ishati y'umweru akaba yabumbuye umunwa aho ari kwitegereza imbere.

Umudamu wambaye agakoti k'icyatsi, ndetse n'ijipo y'umukara. Afite igitabo ari kwandikamo. Imbere ye, hari abahagaze, bamwe bari kumufotora, abandi bari kureba ibyo akora.

Ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza abaturage benshi bazamuye amabendera ndetse hagati yabo harimo umuyobozi w'ishyaka rya efuperi inkotanyi Paul Kagame.

Inteko y'u Rwanda ikunze kuba igizwe n'abadepite cyangwa se abasenateri. Aba bicaye muntebe nziza z'imikara, umwe yambaye agapfukamunwa, afite igipfuko mugahanga bigaragara ko yakomeretse.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Ni mu nteko iberamo inama, ifite intebe nziza zo kwicaramo z'umukara ndetse abantu bose baturutse inyuma urabona ko bari kureba imbere aho bari kwigishwa.

Aha habereye igikorwa cyo kwiyamamaza ku muryango wa efuperi inkotanyi, hari kugaragara abashinzwe umutekano bazwi nka sitiyu, ndetse n'abaturage benshi n'amabendera menshi y'umuryango wa efuperi.

Uyu ni umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikoti ryiza, n'amarinete ari kumwenyura. Uwavuga ibyo yagejeje kuri ikigihugu ntabgo yabivuga ngo abirangize.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu Rwanda.

Umuntu wicaye mu ntebe nziza y'umukara, uri kureba imbere ye. Yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse, imbere ye hari insakazamajwi ebyiri ndetse n'icupa ry'amazi.

Iyi ni inzu ya etaje ifite amarangi y'umweru ifite inzugi ziriho irange ry'umweru hariho n'icyapa cyanditseho Nyamirambo.

Abantu bigararaga ko hari ibyo bahugiyemo. Gusa ibice byo hejuru, nk'amasura yabo, nti biri kugaragara. Bose bambaye umweru n'umukara. Iruhande rwabo hateretse imazi iriho igitambaro cy'icyatsi n'umuhondo, igiseke, ndetse n'ururaho.

Abayobozi babiri bicaye mu biro ku ntebe z'imikara z'imisego myiza. Umugabo yambaye ikoti, ishati y'umweru, umudamu ikanzu nziza n'amarinete.

Umukuru w'igihugu ari gutanga imbwirwaruhame mugikorwa cyo kwiyamamaza, mu ishyaka ahagarariye rya efuperi nkotanyi, inyuma hari abaturage bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Umugabo wicaye utumbereye imbere ye ari kuhareba yambaye neza amarineti, ikoti ndetse n'ishati y'umweru imbere ye hari insakazamajwi bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame.

Bicaye bose ku murongo, muntebe nziza z'imikara zigezweho. Bigaragara ko bari mu inama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'insakazajwi.

Uwiringiyimana Agathe, ni umwe mu ntwari zikomeye z'u Rwanda; akaba yaritabye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, mirongo icyenda na kane.

Muri uyu muhanda harimo ibinyabiziga biri kubisikana, hari ipikipiki ihetse umugenzi, iri kubisikana n'imodoka nini yikoreye, imbere yayo hari igare, na ryo ritwawe n'umuntu.

Ibinyabiziga bikoresha umuhanda nijoro nta mpungenge biba biteye kuko byose biba byacanye amatara neza, harimo kimwe cy'umweru n'umuhondo n'ikindidi kinini gifite ibara ry'umutuku.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Ibinyabiziga byinshi biri kubisikanira mu muhanda bigaragara ko umaze igihe, iruhande rwawo hari gutambuka abagenzi ndetse hari ibinyabiziga biparitse aho hafi.

Uyu ni umuhanda, iruhande rwawo hari rigori, hakurya y'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru haragaragara umukobwa urimo atambuka ndetse muri uyu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye.

Uyu ni umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga gifite amabara y' ubururu n' umeru iruhande rw' icyo kinyabiziga hari kugenda igare ritwawe n' umuntu ndetse akaba ahetse n' umugenzi.

Ni umuhanda munini, hakurya no hino ku mpande hagiye harimo imirongo y'umweru. Urimo ibinyabiziga biri kubisikana, hirya hari imodoka itwara abagenzi, ndetse hagati harimo ipikipiki y'amapine atatu.

Ni umuhanda muremure uri gucamo ibinyabiziga bibiri ndetse n'ipikipiki ihetse umugenzi. Imodoka imwe iri mu ibara ry'umweru, indi inyuma ahajya ipine ntaririho.

Imodoka nini iri mumuhanda itwara imizigo yiganjemo ibara risa umuhondon'umweru ikaba ifite indi ihetse inyuma isa ibara ry'umweru hakurya yayo hakaba hari ibiti birebire hakurya yabyo hakaba hari amazu menshi.

Mu muhanda rwagati imodoka nini zikoreye imizigo zigiye kubisikana imwe ifite ikizuru cy'umuhondo indi itagaragara neza ifite igitukura.

Umuhanda woroshya imigenderanire mu baturage, dore nk'uyu uri gucamo ibinyabiziga birimo amapikipiki abiri ndetse n'imodoka imwe y'umweru, hakurya y'aho hari umuntu wikoreye imizigo.

Ni ipikipiki ihagaze nshyashya yo mubwoko bukoresha amashanyarazi. Izi zaje murwego rwo kugira ngo hajye hirindwa ibyuka bihumanya ikirere, kuriyo hari ingofero irinda abagenzi.

Mu kayira k'abagenzi kari iruhande rw'umuhanda harimo ingorofani y'ibiti, iruhande rwayo hicaye umugore uhetse umwana, hirya ye hari abagabo bari gutambuka. Naho ku rundi ruhande hari umugore utanditse pavuro, ndetse n'inyanya.

Aha ni muri gare aho ibinyabiziga bivuye mu byerekezo bitandukanye aho muri iyi gare haparitsemo imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, imbere yayo hahagaze abantu.

Iduka rinini ririmo ibijyanye n'ibyombo byinshi, harimo n'abantu abagurisha ibyo bintu, n'abandi baje kugura ibyo bintu birimwo muri iryo duka.

Umuhanda munini urimo imodoka itwara abagenzi muri rusange iri mu mabara y'umweru, y'icyatsi ndetse amapine n'ibirahure byayo bikaba bisa umukara, hari kugaragara igice cy'imodoka biri kubisikana.

Umuhanda ugaragara agace gato hirya yaho haparitse imodoka nini ifite ibara ry'ubururu, hari n'indi y'umweru, ipikipiki iri aho hafi ihagaze.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Akayira ka banyamaguru katarimo uri kugahitamo. Mu muhanda rwagati harimo ipikipiki y'amapine atatu n'izindi ebyiri hagati muri zo harimo igare ritwawe n'umuntu wambaye umupira w'umweru.

Imodoka nini yikorera imizigo, iri kuva mu ruhande yinjira mu muhanda hari ipikipiki iri kuza isatira, iriho umugabo uhetse igikapu.

Umuhanda mugari ugaragaramo imodoka itwara abantu muri rusange, ifite amabara y'ubururu n'umweru iruhande rw'iyo modoka hari umugabo ndetse n'umugore, bari kugenda birukanka iruhande kandi hakaba bari gucamo igare.

Urabibona ko rwambaye amakoti y'icyatsi, rwiganjemo inkumi n'abasore, ubona ko bari kumwe n'abandi bantu bambaye nk'abanyonzi. Harimo daso zishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali, basa nk'abitabiriye ibindi bintu runaka bari kumva.

Ni mu muhanda bigaragara ko wangiritse, kuko urimo ikinogo. Mu kayira k'abagenzi, hari gutambukamo umusore, naho hagati muri wo, hari imodoka yikoreye ibyuma iri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini, ufite ikiraro kiwuca hejuru. Uri gucamo imodoka ndende ya rukururana, imbere hayo harasa icyatsi. Naho inyuma hariho kontineri ir mu ibara ritukura.

Ikinyabiziga kinini gitwara abagenzi gifite amabara y'ubururu n'amabara y'umweru, kiri mu muhanda hakurya y'aho hari ibiti biteye mu busitani kiri kubisikana n'indi modoka.

Umuhanda muremure bigaragara ko wangiritse kuko hagati muri bo harimo ibinogo, ugiye gucamo imodoka nini y'ubwikorezi ifite irangi ry'umutuku, inyuma yayo hari kugaragara amapikipiki.

Iruhande rw'umuhanda hapariste ibinyabiziga bitandukanye. Muri byo hari imodoka ntoya itwara abantu, ndetse ku ruhande hari inyubako n'ibiti biyikikije birimo umukindo.

Imodoka ntoya zizwiho gutwara abantu muri rusange, zakoraga mu bihe byatambutse zizwi nka Hiyasi. Imwe ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, imbere hoyo hahagaze umuntu.

Ni umuhanda uri kugaragaramo abanyonzi babiri, ndetse hakurya yabo haparitse amapikipiki, hakurya yaho kandi haparitse amamodoka, hakaba hari guca n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Imodoka itwara abantu rusange ifite amabara y'umweru ndetse n'ipine ry'umukara, mo imbere muri yo intebe zirimo ubusa nta bantu bicayemo mu bigaragara iruhande rwayo hari umuntu uhetse igikapu uri kuhatambuka.

Ikivunge cy'ibinyabiziga mu muhanda hirya habanza ikamyo iri mu irangi ry'umutuku, higanjemo amapikipiki ahetse abagenzi igare ritwawe n'umuyonzi ariko nta mugenzi ahetse.

Umuhanda munini wagutse uri gucamo ikinyabiziga kinini gifite amapine menshi. Agaragara muriyo ni atatu, gifite ikintu kigenda kizengurutsa kuri cyo hejuru inyuma.

Umukobwa uri iruhande rw'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru yambaye ikoti ry'umweru n'umukara, akaba ateze akantu mu musatsi, inyuma ye hari guturuka umusore wambaye inkweto zifunguye n'ingofero ireba inyuma.

Ihuriro ry'imihanda riri kwidegembyamo ipikipiki imwe yonyine na yo igeze aho abagenzi bambukira, ariko kuko nta bahari irakomeza igende, aha hashyirwa ibimenyetso by'irangi ry'umweru.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Imodoka ebyiri ziri kubisikanira mu muhanda, imwe muri zo yicayemo umuntu inyuma, amapikipiki abiri ahetse abagenzi, umwe muri abo yambaye umwenda w'ubururu.

Mu muhanda hagati harimo ipikipiki y'amapine atatu itwikiriwe na shitingi ku ruhande rwawo hari umudamu ukenye igitenge uri gucuruza ibisheke hirya gato hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

mu nkengero z'umuhanda hashashe ibyagenewe kuhubakisha, ni igiti giteye kigaragara igice, iruhande rwacyo hariho idomoro y'ubururu, cyegamyeho ingorofani y'amapine abiri ikozwe mu byuma.

Iki ni ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi baje gukina umupira, bigaragara ko ari bakeya kuko hari kugaragaramo abakinnyi bane gusa.

Iki ni ikibuga gikinirwaho umukino uzwi nka tennis aho uyu mukino ushobora kwifashishwa mu kugorora umubiri ariko kandi ukaba wanawukina nk'umunyamwuga bikaba byakubyarira amafaranga.

Ni ikibuga gikinirwamo imikino yintoki hari igiti nurubaho hejuru arirwo banagamo umupira iyo batsinda inyuma yaho hari ubusitani bunini cyane buteyemo ibiti by'umukindo.

N 'ibisima byagenewe kwicaramo. Ubundi ubusanzwe ibi bikunze kuba biherereye ku bibuga by'umupira, hejuru yabyo hatwikiriye amabati atagaragara neza, inyuma gato har' agakuta k'umweru.

Ni ikibuga cy'umupira gishashemo ibisa nk'icyatsi. Izamu rimwe riri aho ikibuga giherera. Irindi riri mu rubavu rwacyo. Harimo abakinnyi bari gukora imyitozo.

Ni icyapa cy'umuhondo. Inyuma yacyo hari ibara ry'umukara, cyo gifite impande enye ariko ebyiri muri zo zigiye zingana. Hari akandi kazu gatoya kari hepfo yacyo.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Ni icyapa cyerekana ko iyi inzira itemerewe gucamo igare, ni icy'uruziga kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, mo imbere muri cyo harimo ibara ry'umweru hashushanyijemo kandi igare riri mu ibara ry'umukara. inyuma y'icyo cyapa hasize umweru.

Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kuramukanya n'umucamanza wambaye ingofero irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umukara.

Ni umuhanda muremure wa kaburimbo uragaragaramo abaturage bari kugenda aho hari abagore babiri bari kugenda baganira ndetse hirya yabo hari akayira kambukiramo abanyamaguru.

Umuhanda munini wagutse, urimo amapikipiki ahetse abagenzi, hirya y'aho hateye ubwatsi busa icyatsi kibisi, umugabo uri kuri terefone ntagaragara neza.

Urukuta rurerure rw'amabuye ruri iruhande rw'umuhanda biragaragara ko uyu wangiritse ukaba uri gusanwa n'abakozi babishinzwe. Hari akapa gato kagaragaza ko ako gace umuntu agezemo kari kubakwa.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ibyerekezo, kiri mu ibara ry'umuhondo gifite impande enye ariko zitarebana mo hagati harimo umukara.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ni icyapa cya mandeshatu kigaragaza ihuriro ry'imihanda, kirimo ibara ry'umukara mo hagati ndetse kizengurutswe ni ry'umutuku, mo imbere kandi harimo n'ibara ry'umweru.

Icyapa cya mpande enye ariko zidateganye, kizengurutswe n'akabara gato k'umukara ahandi hose ni umuhondo, usibye imbere muri cyo hafunzemo utuntu tugifashe.

Icyapa cyerekana uko abantu bakwiye kugenda kirimo amabara y'umweru hagati, ariko cyanditsemo umubare mirongo itandatu n'umukara kizengurutswe n'umutuku.

Ni mu nkengero z'umuhanda harimo ibyapa byinshi, kimwe cya virunga, ikindi cya banki y'abaturage, ndetse hari n'ikindi cya vorukano, ibi ibyapa byose biri iruhande rw'umuhanda.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Ni icyapa gishyirwa ahari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi. Ndetse n'ibikoresho birimo ingofero n'ibindi bishingwa aho hafi, cyerekana igikorwa kiri kuhabera.

Icyapa kirimo inyuguti ya ta yandikishijwe ibara rinini ry'umukara, gifite mpande enye ariko zose ntabwo zirebana. Gifitemo umuhondo wiganjemo munini ahantu hanini harimo akadoo k'umweru.

Icyapa kiri muri mpandenye ariko zitarebana, kizengurutswe n'akabara gato k'umukara n'akandi karimo hagati, harimo ak'umutuku ndetse n'irindi rinini ry'umuhondo.

Umuhanda mutoya uruhande rwo hirya ruriho igiti, urundi rurimo ubwatsi bushinzemo icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko cyerekana ko bitemewe guhagarara aho.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Imiturire muri Kigali, inzu zose zifite amabati meza, amenshi yiganjemo ubururu, hirya gato hari kugaragaramo ay'umutuku.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Inzu yubatse hafi y'ishyamba ririmo ibiti byinshi amapoto marebamare ariho abatara amurika m'umuhanda urimo imodoka n'amamoto, k'uruhande indabo ubusitani.

Imiturire igezweho muri Kigali, biragaragara ko biri ku muvuduko wo hejuru. Dore inyubako nziza zigeretse ziri mu mabara y'umweru. Hakuno gatoya turahabona igisenge cy'umutuku.

Igorofa ndende iri iruhande rw'umuhanda, igizwe n'ibirahure ahanini. Imbere yayo gato haparitse umumotari uri ku ipikipiki. Yafashe ingofero imwe ayishyira mu mahembe y'pikipiki.

Imodoka ihagaze irikugaragara igice cyayo cyo hejuru gusa, imbere yayo hari inzu icuruza ibiribwa bihiye ifite amategura.

Agace kamwe kagaragarira ahirengeye inzu zitandukanye zegeranye harimo n'izifite amagorofa zirigaragara hakurya ndetse n'ibiti byinshi.

Ahantu heza ho gutura bigaragara ko atari mu kajagari, harimo amazu y'icyerekezo afite ibisenge byiza bigezweho amwe muri yo aranageretse agaragaza iterambere.

Ishusho y'imiturire igezweho. Dore inzu nziza iri mu rupangu y'umweru. Hateretsemo ibigega bibiri bifata amazi y'imvura. Hari n'indi itaruzura igeretse.

Inyubako ndende igezweho, igizwe n'amagorofa arenga abiri, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, igizwe n'ibirahure, imbere yayo haparitse ibinyabiziga bitandukanye.

Ni inzu nyinshi zitandukanye, ziri iruhande rw'umuhanda muto. Imwe muri zo isize irangi ritukura ku mabati, iruhande rwayo hateyeho ipoto ijyana insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda muremure iruhande rwayo hari imodoka eshatu, murizo hari ifite ibara ry'umweru indi ifite umuhondo, inyuma yazo hari inzu, ifite irange ry'urwererane.

Umuhanda w'ibitaka uri impande y'ingo, haparitseho moto ebyiri ndetse n'imodoka ebyiri ziri imbere y'iduka, hari umukobwa uri kugenda muri uwo muhanda.

Akayira k'abanyamaguru karekare, hirya y'aho gato harimo umuntu uri kukagendamo, gashashemo amabuye yabugenewe, ku mpande hateyemo ubwatsi bw'icyatsi kibisi gitoshye.

Aha ni mumuhanda ahazwi nko ku kinamba ku kiraro hari ibinyabiziga by'amapikipiki bibiri biri kumanuka bijya hepfo, hari kandi n'ikindi kinyabiziga k'imodoka kiri kumanuka.

Ni umuhanda muremure. Ku gice cyawo giherereye aho imodoka zibisikanira. Harimo ibinyabiziga bitandukanye; kimwe kirekire, cy'amabara y'ubururu hose. Ndetse harimo n'ipikipiki.

Igice kimwe cy'umuhanda wagutse kiri kunyuramo ibinyabiziga. Imodoka iri ku ruhande rumwe urundi rurimo ipikipiki itwaye umugenzi. Hari kugaragara abanyeshuri bato bari kuva ku ishuri.

Ni umuhanda mugari ucamo ibinyabiziga ndetse n'abantu batandukanye, aho abagenzi bambukira, hashushanyijemo imirongo y'umweru, hari umudamu uri iruhande rw'umuhanda uri gutambuka.

Mw'ihururiro ry'umuhanda muremure, urimo amapikipiki abiri yose atwaye abagenzi. Iruhande rwawo hari ipoto ry'itara risize ibara ry'umweru, ritagaragara ryose. Hari igikura kirekire cyubakishije amabuye.

Rwagati mu muhanda hatewe ubwatsi butaramera neza, harimo imikindo ibiri ndetse n'akapa gatoya igare riri gutambuka hafi aho ndetse n'amapikipiki.

Ikiraro kinyuraraho imodoka hejuru munsi naho hagacamo izindi. Hari ikamyo irimo abantu batatu bari inyuma ndetse n'amapikipiki ari hafi yayo.

Umuhanda wagutse ubona ko wisanzuye uri gucamo ipikipiki ebyiri, imwe iragaragara neza, ariko indi ntigaragara iruhande rwayo icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Ni mu ihuriro ry'umuhanda. Ku mpande yawo hari utubara tw'umweru n'umukara, iri gucamo imodoka zishoreranye ndetse na moto. Hakurya hari inzu igaragara nk'aho uri urusengero.

Umuhanda munini wagutse wubatswe ku buryo bugezweho, hagati muri wo hateyemo ubwatsi bwiza butoshye ndetse n'ibiti by'imitako bizwi nk'umukindo. Hateyemo ipoto rishyirwaho itara ririho icyapa gito.

Ni ikiraro cy'umuhanda mwiza cyane ucamo imodoka hasi ndetse no hejuru, ukaba ufasha abaturage mu migenderanire ndetse n'imihahiranire, hejuru yawo haragaragara igicu cyererutse.

Umuhanda munini wagutse uri gucamo amapikipiki ahetse abagenzi ndetse n'imodoka ziri kuwunyuramo, zerekeza mu byerekezo bitandukanye.

Igice gito cy'umuhanda wa kaburimbo, handitsemo amagambo agaragaza aho ugeze ahariho, ndetse yandishije amabara y'umweru, ibiyi bigaragaza neza ko uyu muhanda ari mushya.

Umuhanda w'umukara irimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara anagenizi inyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira kajya gusa umweru n'ipanaro ijya gusa ubururu.

Ni umuhanda w'ibitaka muremure bigaragara ko utarageramo kaburimbo. Iruhande rwabo ukikijwe n'amazu ariko afite inkuta z'amabuye ndetse.

Aha ni mu muhanda aho abanyamaguru bambukira harimo abanyamaguru batatu bari kwambuka ariko kandi bari kubisikana n'ikinyabiziga ndetse n'ipikipiki ihetse umuntu.

Mu ihuriro ry'imihanda. Hashushanyijemo imirongo y'umuhondo, aho abagenzi bambukira nk'ibisanzwe hagiye harimo imirongo y'imyeru. Ibinyabiziga iyo bihageze bihita bihagarara.

Munsi y'ikiraro hejuru yacyo hacaho imodoka, cyubatse neza mu buryo bukomeye ku buryo kitatera ubwoba kugicaho, kikaba gifasha abaturage mu mihahiranire ndetse n'imigenderanire.

Munsi y'ikiraro umuhanda unyuramo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, kuhande hari igare rihetse umugenzi ryegeranye n'imodoka y'umukara igiye kubisikana n'indi y'mweru itwikirije shitingi.

Ni mu ihuriro ry'umuhanda mo hagati, hari akazitiro gato k'amabuye, gakikije ubwatsi butaramera neza, kari mu mabara y'umweru n'umukara, hateyemo umukindo uri kugaragaraho igice.

Ni mu muhanda munini wagutse, umugabo arimo rwagati, ategereje ko imodoka zitambuka ubundi akambuka. Muri izo hari imwe iri mu ruhande rw'iburyo, ifite irangi ry'umweru. Ibumoso harimo iy'umukara.

Mu muhanda munini wagutse ubonako ucamo ibinyabiziga byinshi, amapikipiki ashoreranye muri wo ahetse abagenzi, harimo imodoka nini iri mu ibara ry'ubururu.

Ni umuhanda uri kubisikaniramo imodoka. Hakurya yawo hashinzemo amapoto y'amashanyarazi hakaba hariho insinga zijyana amashanyarazi mu bice bitandukanye, iruhande rwayo hari inzu zisakaje amategura.